Umugabo uhetse igikoresho kifashishwa mu gihe barimo gutera imiti imyaka kitwa ipombo, arimo gutera umuti umuceri mu rwego kugira ngo umuceri umererwe neza kandi ukure neza udusimba tutazawangiza.

Umuntu urimo gusarura ikawa, akaba ari ikawa zeze neza cyane z'umutuku, hakaba hari n'izindi z'ibitubwe zitari zera, ikawa n'igihingwa ngengabukungu cy'Igihugu cy'u Rwanda kuko zirasarurwa zigatunganywa hanyuma zikoherezwa mu mahanga, bityo u Rwanda rukabona amadovize rukiteza imbere.

Umusozi uhinzeho ibiti ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, akaba ari umusozi usa nk'a ari urwuri rw'amatungo, kuko harimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti amatungo yugamamo igicucu.

Umugabo uhagaze mu murima uhinzemo imyaka, akaba ateruye akantu kameze nk'igitebo karimo imboga zigiye zitandukanye urugero idodo, beterave, inyanya, karoti ndetse n'ibindi.

Ikibaya gihinzemo igihingwa cy'umuceri, umuceri akaba ari igihingwa gihingwa ahantu mu gishanga kandi ahantu gihinze hakaba hagomba kuba harimo amazi kugira ngo gikomeze kumererwa neza kandi gikure neza.